Ni abantu babiri bicaye ahantu mu cyumba gikorerwamo inama, ni icyumba kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga harimo nka za mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho gikoreshwa mu kugira ngo kizamure indangururamajwi.

Ni abana ndetse n'abantu bakuru, bari ku iriba bavoma, bafite amajerekani, bafite amabase ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bari ku ivomero rusange, buri wese ategereje ko mugenzi we avoma ngo nawe agerweho atware amazi.

N’umugore wicaye imbere y'ibasi ndetse n’injerekani y'amazi ari kuvoma ,araseka aranezerewe inyuma ye hanitse imyenda ndetse na we yambaye ipantaro cyangwa se ijipo y'umukara ndetse n'umupira usa n'umutuku.

Ni abana babiri. Bari ku ivomero rusange. Umwe ari gusunika icyuma kugira ngo kizamure amazi. Undi na we, yashyizeho kugira ngo amazi ajye mu kabido. Baranezerewe, bari guseka.

Ni abagabo bane n'abagore batatu. Abagabo harimo uwambaye itaburiya imeze nk'iyabaganga, undi na yambaye ijakete iriho ikirangantego, abandi na bo bambaye amashati ajya gusa, ndetse n'abagore harimo uwambaye ikanzu y'ubururu, ikanzu y'igitenge n'ishati y'icyatsi, barahagaze bari kwifotoza baraseka.

Ni umunyamahanga uhagararanye hamwe n'abantu bameze nk'abanyeshuri cyangwa abaganga ndetse barishimye baraseka, iruhande rwabo hari umugabo na we wambaye itaburiya y'umweru, wambaye na karuvati y'umutuku barishimye bari kwifotoza.

Ni abantu benshi bari mu nama bafite amacupa y'amazi, ndetse n'ibirahuri bari kunywesha, bari mu nama ngari, irimo abantu benshi, harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo.

Ni umubyeyi wagiye uhesha umwana umuti kwa muganga. Undi na we ni umuganga uriguha umuti umwana mutoya. Yambaye umwenda w'akazi uwo twita itaburiya, ndetse baranezerewe kuko barigukingira ndetse no kuvura indwara zitandukanye umwana mutoya.

Ni abantu benshi bari kwa muganga hari usa nk'aho ari umujyanama w'ubuzima wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agapfukamunwa, ari guha ibinini umwana mutoya bazanye kuko arwaye n'abandi bari iruhande rwe bose bambaye udupfukamunwa.

Ni abana bane, bari ku ivomero rusange. Umwe ari gupompa amazi ngo azamuke, abandi bahagaze iruhande rwe, bari kwitegereza uko abikora kugira ngo na bo baze kuvoma.

Ni umwana mutoya w'igitambambuga w'umukobwa, afite imisatsi irimo udusaro tw'amabara y'icyatsi, umuhondo n'umutuku. Yegamye mu gituza cya nyina ndetse hari n'umuganga ufite urushinge uri kumutera urushinge, ikigaragara ari kumukingira, umwana afite ubwoba.

Ni umuhanzi nyarwanda, witwa Israel MBONYI icyambu, ari kuvuvugisha umwana w'igitambambuga mutoya ndetse mama we yambaye umupira w'umweru.

Igishushanyo kiri mu mabara abiri ibara rimwe risa n'umutuku ukeye irindi bara ni umukara, umukara ni nawo ufite ahantu hanini, hanyuma harimo n'akamenyetso k'inyenyeri kari mu ibara ry'umweru.

Ni abantu benshi bari mu nama, barimo igitsina gore n'igitsina gabo, bari kuganira ndetse bafite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga harimo nka mudasobwa, indangururamajwi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni abantu benshi bari mu nama, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, Harimo: abambaye amadarubindi, abambaye imyenda y'imyeru ndetse n'iy'imikara, hari n'abafite impapuro n'amakaramu bari kwandika.

Ni akaboko k'umuntu kari hafi n'itiyo y'amazi, ari gukaraba intoki, aho hafi hari umugezi ndetse ni umugezi bigaragara ko aya mazi ari kuva mu itiyo, ava muri awo muri uwo mugezi, ni amazi meza kandi amazi ni ingirakamaro ku mbaga nyamwinshi.

Abahuntu benshi bahagaze harimo ab'igitsina gore ndetse n'abigitsina gabo, bari kwifotoza inyuma bahagaze inyuma y'inzu ikorerwamo inama, harimo abambaye imyenda migufi ndetse n'imiremire.

Ni umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse hari abandi nabo ari kubwira babiri harimo uwambaye ingofero ndetse nyuma yabo hari abana benshi bahagaze bari kumva icyo avuga.

Ni umugore wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru ndetse abari iruhande rwe barishimye, baraseka, bigaragara ko banezerewe, hari umwana mutoya uryamye ku kameza ndetse n'umufashe wambaye umupira w'umukara.

Ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari imbere y'ibidomoro binini bishinzwe kuzana amazi meza, hakaba harimo amazi asukuye, byiza bigezweho by'ikoranabuhanga ku buryo abana bari ku mashuri banywa amazi meza atunganyije.

Umugabo wambaye ikote ryiza ndetse yambaye amadarubindi, ahagaze ku gatuti kariho indangururamajwi, iruhande rwe hari intebe nyinshi kandi nziza ndetse hariho n'amazi, ikigaragara cyo ni nko mu nama ari kumenyesha abandi.

Ni abantu benshi bari iruhande rw'umugezi, umugezi rusange. Bari kureba uko umwana w'umukobwa ari kuvoma ndetse hari n’uri kumusunikira kugira ngo amazi aze, abandi ni abana bato, harimo n'abantu bakuru na bo bategereje gufata amazi, bakayajyana mu rugo kuyakoresha.

Ni umuntu wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'umweru, hari n'undi bisa nk'aho ari umuganga uri kumukingira, cyangwa se uri kumutera urushinge, yambaye ikoti ry'umukara, ndetse n'icyo twita ga, cyangwa se icyo yambara kugira ngo kirinde intoki ze kuba zitakwandura mu gihe ari kuvura.

Ni abaganga batatu. Umwe yambaye umwenda w'akazi wo twita itaburiya y'umweru, ndetse bambaye udupfuka ku mitwe yabo, harimo babiri muri bo bambaye amadarubindi. Ndetse bafite ibisa nk'imiti mu ntoki zabo bari kwerekana.

Ni abantu benshi bari mu nama harimo igitsina gabosa n'igitsina gore bafite amazi imbere yabo y'uruganda rwa nili ndetse barakurikiye, harimo abambaye imipira y'imihondo umweru ndetse n'umukara n'indijyi itandukanye.

Ni umugore n'umugabo bari ku ivomero rusange ahantu mu ishyamba umugore afite igitenge arifurebye ndetse bafite amajerekani mu ntoki bari kuvoma.

Ni abagabo babiri, bari mu nama, imbere yabo bafite amacupa y'amazi ndetse n'ibirahuri byo kunywesha, bambaye amakote, harimo umwe uri kuvugira ku ndangururamajwi.

n'umwana w'umuhungu ari kuvoma kw'ivomero rusange, afite akadomoro ari kuvomeramo. Yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, hari iruhande rwe abandi bana n'abandi bantu bose bategereje kubona amazi yo gukoresha.

Ni abantu bigaragara ko ashobora kuba ari nk'abanyeshuri bo muri kaminuza. Bari kwigira muri rusange, bari gusobanurirana, bafite impapuro, amakayi n'amakaramu mu ntoki. Bateze amatwi, kandi bari kureba cyane. Kugira ngo basobanukirwe ibyo biga.

Ni abantu batatu harimo umugore utwite n'umugabo we ndetse n'umujyanama w'ubuzima cyangwa se uwambaye umwenda w'akazi werekeranye n'iby'ubuganga, ari kubasobanurira amabwiriza ndetse n'amahame agenga igihe barimo cy'uko benda kwibaruka.

Ni abagabo babiri ndetse hari n'abandi benshi bari mu nama, bambaye amakote, bafite indangururamajwi imbere yabo, umwe ni umunyamahanga, afite mudasobwa imbere ye n'abandi ari kubwira barakurikiye cyane.

Ni abana babiri bari ku ivomero rusange, umwe araseka ari kureba imbere undi arimo aravoma, kuvomera mu ndobo afite indobo nyinshi nk'eshatu, bari kuvomeramo amazi, bambaye udupira tw'ubururu.

Ni umugabo dukunda kwita umukorodoniya cyangwa se abari gukora inkweto ku mihanda, yambaye agatenge aragakenyeye yambariye mu ijosi afite umusatsi mwinshi ndetse iruhande rwe hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni umugabo ufite imisatsi myinshi, arasa nabi ndetse yambaye ipine ry'imodoka mu nda. Yambaye isengeri n'ikabutura ya kake ndetse iruhande rwe hahagaze abandi bantu.

Ni umugabo wambaye ishati y'igitenge iriho ibishushanyo imbere ndetse ari kureba mu kirere, ari kota izuba bigaragara ko ari gutekereza cyane, yegamye ku gikuta gisize ibara ry'umweru.

Ni abantu benshi bari mu nama, hari umugore usutse wambaye ishati y'ubururu bwijimye uhagaze imbere yabo ndetse inyuma ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga by'insakazamashusho, ndetse abantu benshi bicaye mu nama, bicaye mu ntebe bari gukurikira.

N’umugabo wambaye neza araseka ndetse yambaye amadarubindi yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'ishati y'indodano y’umukara n’ikigina ari kwifotoza inyuma ye hari inyubako nziza.

Ni umugore w'umuhinzi, bigaragara ko ahinguye kuko afite isuka mu ntoki ndetse afite ibitaka ku ntoki ze bigaragara ko avuye mu murima, yikoreye igitebo kirimo ibishyimbo avuye gusarura.

Ni umugabo wambaye ingofero ndetse yambaye n'umwitero w'ibara ry'umuhondo, yambaye n'ishati ya karokaro irimo amabara y'umukara n'umweru, afite icumu mu ntoki.

Ni abantu benshi bari mu nama ndetse harimo abicaye mu ntebe hasi bari gukurikira abari imbere ibyo bari kuvuga. Abari imbere ni abantu batandatu harimo abagore ndetse n'abagabo.

Ni umuntu usa nabi yambaye imyenda y'ibicirane ndetse yambaye n'ingofero mu mutwe, afite ibintu atamenya ibyo ari byo mu ntoki, harimo ishashi irimo amazi ndetse aricaye ategereje ari kota akazuba.

Ni abantu batandukanye benshi, bambaye imipira y'ubururu, ndetse harimo n'ab'abanyamahanga bari muri gahunda yo gutera ibiti, kuko bari gufatanya gutera ibiti, ndetse bari gutanga n'ubutumwa ku byerekeranye n'ibidukikije.

Ni umugabo ari kurira, biragaragara ko ababaye cyane, afite aho ari kwitegereza n'ibyo ari gutekereza, yambaye umupira w'icyatsi kibisi ndetse yambaye n'amaherena ku matwi.

Ni abantu bicaye mu nama intebe ziri mu rusa n'uruziga harimo abari hagati bari kuvugana ndetse harimo n'abari mu mpande bategereje kumva ibyo bavuga buri wese afite icupa ry'amazi ndetse n'igitabo cyo kwandikamo.

Ni umujyanama w'ubuzima, uri kwereka umurwaza ufite umwana mu ntoki, uko agacunga cyangwa se agapima umuriro w'umwana kangana. Ari kumusobanurira neza kugira ngo ubutaha nakabona umwana yagize umuriro mwinshi, azamenye uko agakoresha.

Ni umukobwa aricaye mu ntebe yazamuye akaguru, afite imisatsi myinshi myiza ari guseka bigaragara ko yishimye, yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu yayihinnye hasi, ndetse yambaye n'agapira k'umukara, ndetse yambaye n'imikufi mu ijosi no ku maboko.

Ni abantu benshi ndetse harimo n'abapolisi b'u Rwanda, harimo ufashe iki gitambaro cyanditseho amagambo ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye, bari mu muhanda bari kugenda, harimo n'ufite indangururamajwi ugenda abaha amabwiriza.

Ni imodoka irangaye iri kwifashishwa mu kuvura abantu, ndetse hanze hicaye abantu benshi bagiye batandukanye. Harimo abambaye udupfukamunwa, harimo abashinzwe kuvura abantu no kumenya indwara barwaye, ndetse hari na bo bari kuvura bari kubabaza uko bamerewe.

Ni abantu benshi b'urubyiruko bahagaze ahantu hamwe, bambaye imipira isa bose y'ubururu no harimo abambaye amapantaro y'umukara, ay'ubururu ndetse n'amajipo y'umukara. Harimo umunyamahanga umwe w'umugore ndetse hakabamo n'umugabo umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ni abantu benshi b'urubyiruko, bahagaze bari kwifotoza. Bambaye imyenda igiye itandukanye gusa bose baraseka. Bafite igitambaro cyanditseho ubutumwa bwibyo bari kwerekana.

Ni umugabo arimo araseka, ni umugabo mwiza ufite amenyo meza ndetse yambaye umupira w'umweru, afite urudodo rw'umweru rushinzwe gukura imyanda hagati y'amenyo, ni urudodo rwiza rufasha amenyo kutangirika ndetse no gukuramo imyanda yose yagiye ifata hagati y'amenyo.

Ni umwana bari kuvura amenyo, muganga afite ibikoresho, ari gukoresha kugira ngo avure umwana, yashyizeho itaburiya umwana imufasha kugira ngo atamwanduza.

Ni umugabo, arishimye, araseka kandi afite amenyo meza, afite ubwanwa bwinshi ndetse ni umwirabura, afite n'agasatsi gakeya ku mutwe, ikigaragara cyo arishimye kandi aranezerewe.

Ni umugore afite imisatsi myiza miremire, yambaye umupira w'umweru ndetse afite umuti w'amenyo mu ntoki n'uburoso, ari kwiborosa, ari no kwirebabera muri miriwari kandi araseka cyane kandi neza.

Ni umukobwa mwiza ufite imisatsi myiza ndetse yambaye amaherena, ni umukobwa wagiye kwa muganga bari kumurebera ikibazo afite mu menyo, ari kumwe n'umuganga wambaye umwenda w'akazi agapfukamunwa ndetse n'utumurinda kwiyanduza ku ntoki cyangwa kwanduza undi mukiriya wese.

Ni umuhungu ndetse n'umukobwa, bari guseka bafite utugozi dukura imyanda hagati y'amenyo, bambaye imipira y'umweru barishimye bari guseka kandi bari kwireba mu ndorerwamo.

Ni umugabo urimo araseka, yambaye umwenda w'umweru ndetse afite amenyo meza. Afite akadodo mu ntoki kamufasha gukura imyanda hagati y'amenyo kugira ngo abe afite isuku kandi asa neza.

Ni ihema ririmo abantu bari kuvuriramo abandi indwara, harimo ab'abaganga bambaye amataburiya nk'umwenda w'akazi, ndetse harimo n'abaje kwisuzumisha cyangwa se kwikingiza.

Umugabo usheshe akanguhe, ari gukina igisoro. Umugabo araseka, arishimye, biragaragara ko anezerewe. Ari gukinana na mugenzi we, yambaye umupira w'ubururu n'umweru. Igisoro ni umukino mwiza mu muco nyarwanda.

Ni umumama usheshe akanguhe. Biragaragara ko ari mukuru kuko afite imisatsi irimo imvi ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye imyenda yabugenewe ari yo, umupira usa n'ubururu bukeyeye ndetse n’umweru. Aryamye ku gatapi gatoya gakorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo ndetse n'umugore, umugabo ari kumufasha kugira ngo atambuke, yambaye amadarubindi ndetse yambaye n'ishati y'ubururu, umuganga uri iruhande rwe, amufashe mu ntoki kugira ngo abashe kumanuka ama esikariye.

Ni umugabo usheshe akanguhe, afite imvi mu bwanwa, ndetse no mu musatsi, yambaye umwenda w'umweru, ndetse bari kureba uko umuvuduko, amaraso, bye bigenda, iruhande rwe hahagaze umuganga uri kumukurikirana.

Ni ababyeyi bicaye bari kuganira, ni ababyeyi bakuru harimo abambaye ibitenge babiteze mu mutwe ndetse bambaye n'amakanzu meza, bicaye imbere y'inyanya bari kuganira.

Ni umusaza usheshe akangu ndetse ari kumwe n'umugore, wambaye umwenda usa n'ubururu ndetse n'umusaza afite imvi mu mutwe bari kureba muri terefone baranezerewe.

Ni abadamu batatu ndetse n'umugabo umwe bari inyuma yabo, abadamu bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro, bari mu nzira, ikigaragara cyo bari gukora imyitozo ngororamubiri, bagenda n'amaguru.

Ni umugabo ushesha akanguhe, afite imvi mu bwanwa ndetse afite uruhara, yambaye umupira w'umukara, ari gufata imiti kugira ngo anywe, afite igikombe cy'amazi mu ntoki, ndetse ari kumwe n'umuganga uri kumuha ibyo binini.

Ni umugabo usheshe akanguhe, ni umugabo bigaragara ko ari mukuru, ni umugabo w'umwirabura, yambaye ishati irimo imirongo y'umukara n'umweru ndetse n'ipantaro ya kaki, ari kumwe n'umuganga uri kumufasha kugorora ingingo, umuganga ni umunnyamahanga.

Ni umusaza wicaye ku gitanda, aho agerageza guhaguruka, yambaye amadarubindi, ishati y'ubururu ndetse ipantaro y'umukara, hari kandi umuganga iruhande rwe, rw'umunyamahanga uri kumufasha guhaguruka.

Ni umugabo usheshe akanguhe, ari kumwe n'umugore wambaye amadarubindi ndetse yambaye n'amaherena n'imikufi mu ijosi, yambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'umukara ndetse yambaye n'ikoti ry'ubururu, umugabo yambaye ishati y'umutuku ukeye n'umupira w'icyatsi.

Ni umusaza, ni umugabo ukuze w'umukambwe washeshe akanguhe, afite imisatsi irimo imvi ndetse bari kumwoza, kumwogesha isabune nyinshi y'igifuro, bari kumukorera amasuku.

Ni umugabo ndetse n'umugore basheshe akanguhe biragaragara ko bakuze, barishimye bari guseka ndetse barahoberana, bafatanye ku ntugu, umugore ateza igitambaro mu mutwe cy'umutuku n'ikoti ry'ubururu.

Ni umumama n'umwana we barishimye bari gukina. Umwana afite imisatsi myiza yambaye agapira k'umweru na mama we yambaye umupira w'umweru wijimye ndetse bari kuganira kandi barakina umukino mwiza w'abana wo guhuza udukarita.

Ni utuziga turindwi, bigaragara ko dushatse kuvuga ibiri mu kiziga kimwe kinini, mu tuziga twanditseho ibintu bigiye bitandukanye turi no mubare atandukanye, harimo nk'umutuku, icyatsi, umuhondo, umukara ucyeye, ndetse n'ubururu.

Umubyeyi n'umwana we. Umubyeyi yambaye agatambaro mu mutwe, yifurebye n'akandi. N'umwana we yamufubitse neza. Bari kuganira ku byerekeranye n'ubuzima. Kandi umubyeyi yishimiye umwana we, kuko arimo araseka.

Ni abagabo babiri bambaye amakoti. Umwe yambaye ikoti ry'ubururu bukeye, undi yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye. Bafite ibitabo mu ntoki, bari gusuhuzanya. Umwe yambaye isaha ngendanwa ku kaboko, undi yambaye amadarubindi.

Ni urubyiruko rw'abanyeshuri benshi bari mu muhanda bari gutambuka ndetse bari gutanga ubutumwa bwo kwirinda kanseri y'ibere, haranditse ku bipapuro bafite ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Abakobwa benshi, igitsinagore muri rusange, baranezerewe baraseka, biragaragara ko bari kwifotoza, bambaye amapantaro y'ubururu, harimo uwambaye iy'umukara n'umutuku ndetse bambaye n'imipira y'umweru.

Hari ibara rinini ry'ubururu ryanditsemo amagambo agiye atandukanye, hamwe handitsemo inyuguti ya ha hanyuma hagati hakabamo ibiganza bibiri biri kuramukanya, iruhande rwayo hariho inyuguti nini ya ra.

Ni umuforomokazi, yambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'ubururu, ni ishati n'ipantaro ndetse ari kureba uko umurwayi ameze, ari kumurebera uko serumu imeze, umurwayi na we aryamye ku gitanda, afite umusego w'umweru, yambaye n'umwenda w'abarwayi.

Ni icyuma cyabugenewe mu kugira ngo kirebe ibibazo umuntu afite haba mu magufa ndetse n'indani mu mubiri aho umuntu atarebesha ijisho. Ni icyuma kiba kwa muganga kigaragaza uko indwara ndetse n'ibindi bintu byose byifashe mu mubiri w'umuntu.

Ni inzu nziza kandi ni inzu nini, inzu zubatse kijyambere ndetse zifite imiryango myiza, ni inzu ndende zifite n'ahantu hanini, imbere yazo cyangwa hagati yazo hari ubusitani bwiza bunini ndetse hari n'abantu hafi aho ngaho benshi.

Ni ahantu kwa muganga ni ibitaro byiza bigezweho, byubatse mu buryo bwa gisirimu, harimo aho bakirira abarwayi ndetse harimo aho abaforomo baba bari n'aho abarwayi n'abarwaza baba bari mu gihe bategereje ko babavura no mu gihe babahaye ibitaro.

Nabantu benshi bari ahantu harimo abari kuvugana n'abari kubakira ndetse harimo n'abicaye bategereje harimo n’umugabo wicaye wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki ndetse n'umudamu wicaye imbere ye nawe utegereje.

Kwa muganga ni ahantu bazana abarwayi b'indembe cyangwa se abarwayi bihutirwa cyane guhita bavurwa. Ni ibitaro byubatse neza ndetse harimo n'ibikoresho by'ingirakamaro bikoreshwa mu gufasha abo ngabo barwaye byihutirwa kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Ni inzu nziza kandi nini ni inzu zubatswe neza, hariho intebe z'abantu bicaraho ndetse iruhande rwazo hari n'ubusitani bwiza ndetse hari n'aho abafite imodoka baparika.

Ni kwa muganga ni mu nzu nini ihurirwamo abarwayi bose kugira ngo babavure bafite aho barara cyangwa se babahaye ibitaro, hari n'abari gukora amasuku ni abashinzwe amasuku mu bitaro no kwa muganga.

Ni abantu bagiye batandukanye bari imbere y'ikigo nderabuzima cya Kabutare ndetse harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye udupfukamunwa, harimo abambaye imyenda y'akazi n'amataburiya ndetse hari n'abambaye imyenda isanzwe.

Ni inzu irimo ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, inzu nziza igeretse. Ni inzu yubatse neza kandi bigezweho, imbere yayo hari ibiti ndetse hasi no hejuru hari abantu baje kwivuza.

Ni ahantu hagaragara nko kwa muganga. Hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga abaganga bifashisha basuzuma abarwayi bareba ibibazo bagiye bafite umubiri wose, kuva mu mutwe kugera mu birenge. Ni imashini zigiye zitandukanye, zipima indwara zigiye zitandukanye.

Ni ahantu heza hari intebe zisa ibara ry'ubururu, ubururu bukeye n'ubururu bwijimye ndetse n'utumeza, ahandi inyuma hari igitako cyiza kinini cy'igishushanyo, ni ahantu heza.

Ni inzu nziza nini, ndetse ni inzu y'ibirahure byiza, mo imbere muri yo harimo utubati tujyamo ibintu bitandukanye, ni inzu imeze nk'aho ari kwa muganga, ku ruhande ifite ahasohokera umuyaga, n'aho umwuka winjirira, ni inzu nziza igezweho.

Ni mu nzu nini yakirwamo abarwayi, harimo ibitanda byo kwa muganga ndetse n'utumeza two kubafasha kuriraho no gukoreraho ibindi. Iruhande rw'ibitanda hagiye hari imashini zifasha kureba uko umutima utera ndetse n’uko umwuka w'umurwayi umeze.

Ni umuryango w'icyumba, kigaragara ko ari icyumba babagiramo indwara zigiye zitandukanye, icyumba kibarizwa kwa muganga kuko niho babagira indwara zose bagomba kubaga.

Ni ahantu heza mu biro, ibiro birimo ameza manini ariho mudasobwa ndetse hari n'amarido, hari n'utubati tugiye dutandukanye, bigaragara ko ari mu biro by'umuganga kuko inyuma hari igishushanyo kigaragaza imiterere, n'imigirire y'umubiri w'umuntu.

Ni inzu nini yanditseho kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse n'inzu nini yubatse neza isize amarangi y'umweru. Hari umugabo uri gutambuka arasohoka yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ni umudamu wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, ari kureba ahantu heza yitegeye imisozi, imbere ye hari ubwatsi n'ubusitani bwiza, iruhande rwabyo hari inzu y'umweru nziza igezweho yubatse neza.

Ni inzu zubatse neza kandi zigezweho, inzu imwe yubakishije amatafari ahiye. Ni inzu ndende hejuru irangayeho gato, iyindi iri ku ruhande rwayo iriho imitako ikoreshejwe ibuye, iruhande rwayo hari ubusitani bwiza bukase neza burimo n'indabo.

Ni ibitaro, ibitaro bishinzwe indwara izo twita indwara za kanseri ndetse hari umugabo bigaragara ko ari umusirikare, ari gutambuka yambaye umwenda w'akazi ndetse n'ingofero y'akazi.

Ni icyumba cyakirirwamo abarwayi, harimo ibitanda abarwayi baba barayeho ndetse no ku ruhande rwayo, hariho utumeza abarwaza bashyiraho ibyo bazaniye abarwayi.

Ni mu bitaro, ni kwa muganga ndetse hari intebe nyinshi ari eshatu, hari n'imashini iruhande rwazo zifasha ibintu bigiye bitandukanye, inyuma hari isaha, hari n'imitako ku bikuta ndetse hari n'insakazamashusho.

Ni inzu nziza yubatse, ni inzu z'ibitaro, hahagaze umukobwa wambaye ijipo y'umutuku n'umupira w'umuhondo, inyuma ye hari intebe ndetse biragaragara ko izi nzu ari nshyashya, no hirya ari indi nzu nziza, ni inzu zubatse kijyambere kandi zigezweho.

Iyi ni inzu. Inzu nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ahabanza ni ahantu hanini hagari, hisanzuye ndetse ku mpande hariho intebe zo kwicaraho. Mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwiruka no kugorora ingingo muri rusange.

Ni ibitanda byo kwa muganga ibitanda abarwayi baryamaho bari kubavura, ndetse ni ibitanda biri muri sale imwe cyangwa se mu cyumba kimwe, iruhande rw'ibitanda hagiye hateretseho udukabati two gushyiramo ibintu by'ingenzi.

Ni inzu nini kandi nziza, yubatse neza mu buryo bwa kijyambere ndetse n'inzu y'ibitaro byo kwa Nyirinkwaya, harimo imodoka ziparitsemo ndetse harimo abari kwinjira n'abasohoka.

Ni ahantu babika imiti kwa muganga, hari utubati twinshi tugiye dutandukanye babikamo imiti itandukanye, hari iba isa ubururu, hari iy'inshinge, hari iyo kumira, hari ibinini, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ahantutu hari intebe nyinshi hagaragara ko hakunda gukinira abana kuko hari ibikinisho bigiye bitandukanye, biri mu mabara meza atandukanye n'inkuta ziriho amabara atandukanye nk'umutuku, icyatsi, ubururu n'andi mabara.

Ni inyubako nziza nini igeretse, ni inyubako bigaragara ko ari iy'ibitaro yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari imodoka ziparitse, h'ennye cyangwa eshanu, iruhande rwabyo hari umutaka w'umuntu ucuruza w'ikigo cya MTN.

Ni icyumba kibikwamo imiti, icyumba kirimo utubati twinshi tugiye dufatanye tureture kandi tunini, turimo imiti igiye itandukanye, harimo imiti y'ibinini, harimo iyo kunywa n'iyindi igiye itandukanye.

Ni kwa muganga ndetse hari abarwayi babiri, bacometseho imashini zishinzwe kubongerera umwuka, umwe ni umuntu mukuru undi asa n'umwana, iruhande rwabo hateretse ibyo bari kubakoresha nk'amazi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni kwa muganga ni ahantu basuzumira abana, hariho agatanda gato k'abana ndetse hakabaho n'intebe, harimo cyuma bifasha kuzana ubukonje cyangwa ubushyuhe muzu, harimo agasakaza amashusho ndetse hari naho abantu bakarabira intoki.

Ni ibitaro bikuru by'u Rwanda, ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ibitaro byari biri kuvugururwa kuko turabona aba bubatsi ndetse umwe ahagaze ku rwego hejuru, undi ari kumushyikiriza ibyo amuha, hari n'abandi iruhande rwabo bari kubafasha kubaka.

Ni umuntu uri ku cyuma kwa muganga ndetse ni icyuma gifasha kugorora ingingo. Ni icyuma cyiza umuntu ashyiramo akaguru, akabona ikibazo afite. Iruhande rwe, hahagaze umuganga. Ari kumwerekera uko abikora, anareba ikibazo afite mu kaguru.

Ni umukobwa uri kwinanura, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara ndetse yicaye ku gitanda cyiza gishashe neza kiriho imisego y'umukara ukeyeye, ndetse n'igitambaro kidekoyeho.

Ni abana benshi, bari ahantu mu kibuga bakiniramo ndetse bisa nk'aho bari gukora imyitozo, harimo abatoya, bato cyane harimo n'abakuru ndetse imbere yabo hari uhagaze uri kubereka ibyo bakora.

Ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'imikara, ipantaro cyangwa se ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umukara, ari gukorera imyitozo ngororamubiri ku kantu kameze nk'agatapi yarambuye hasi.

Umuganga w'abakinnyi, ndetse arimo aravura umukinnyi ari kumwambika agatambaro kamufasha kugumisha umubiri we hamwe kugira ngo adakomeza kubabara kurushaho, ndetse umukinnyi yambaye umwenda wo gukinana n’umuganga yambaye agapfukamunwa ndetse afite n'igikapu mu mugongo.

Ni igikarito gikozwe kizungu, gikoreshejwe parasitike, ni igikarito kiba kirimo ibikoresho byose by'ingenzi umuntu akenera nk'ubuvuzi bw'ibanze, harimo amapamba cyangwa se agapima uko umutima utera n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ni umugabo uri kunywa amazi, ndetse yambaye umwenda w'umupira w'icyatsi kibisi. Ni mugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse ari kunywa amazi kugira ngo amufashe muri iyo myitozo ngororamubiri ari gukora.

Ni imipira igiye itandukanye ndetse n'ingofero ifasha abari gukina mu kibuga, ni imikino itandukanye harimo iyo bakinisha amaguru, hakabamo n'iyo bakinisha intoki, hari n'iyo bajugunya mu kantu k'agasorori, hakabamo n'indi bajugunya bahererekanya.

Ni isangano ririmo imipira ndetse n'imikino igiye itandukanye, hariho ako abaganga bakoresha bumva uko umutima utera ndetse hariho umupira w'amaguru, hakabaho umupira bakinisha intoki bakajya bawushyira mu gaseke cyangwa se mu gatebo ndetse n'indi mikino itandukanye.

Aka ni agakoresho gakoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, agakoresho gakoreshwa kwa muganga, gakoreshwa gapima uko umutima w'umuntu utera, umuvuduko, ndetse ni agakoresho k'ingenzi cyane kuko gafasha abaganga kumenya uko umuntu ameze.

Ni umugabo usa nk'umuganga, yicaye imbere ya mudasobwa, ari kureba ibintu ari kwitegereza ndetse iruhande rwe hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, byifashishwa mu buzima bugiye butandukanye.

Ni umugabo uri gukoresha siporo ndetse afite telefone mu ntoki, yambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'ubururu n'isaha y'umweru ku kaboko. Muganga uri iruhande rwe ari kumunanura amaguru.

Ni kwa muganga ni aho basuzumira abarwayi, hariho agatanda kazamuka kagenda kihina ndetse kihinura, baryamisha abarwayi kugira ngo barebe ibibazo bafite haba ibibazo by'amenyo, ibibazo by'amaso, ibibazo byo mu nda n'ahandi hatandukanye.

Ni mu bitaro ahantu basuzumira abarwayi harimo agatanda cyangwa se agatebe kihina kanihinura, gafasha abarwayi kwicaraho kugira ngo babarebe ikibazo bafite icyari cyo cyose mu mubiri.

Ni umugore yambaye ishati y'umweru ndetse yambaye n'umukufe mu ijosi, yambaye n'impeta ku rutoki ndetse afite agashashi gasa nk'aho karimo amazi akonje, ari kwishyiraho ku mubiri kugira ngo amererwe neza.

Ni umugore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara imufasha ndetse n'agapira k'umukara ari kwigorora ku maboko, yicaye ku gatapi kabugenewe, imbere ye afite mudasobwa ndetse n'ibiro ku ruhande ari guterura.

Ni umusore ikigaragara cyo yakoze imyitozo ndetse kandi cyane. Yambaye agapira k'umweru wijimye ndetse ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye utumufasha kumva ibintu mu matwi ndetse ari kunywa amazi.

Ni umukobwa uri kwigorora ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara imufashe ndetse yambaye n'umupira w'umukara, iruhande rwe hateretse amazi yo kunywa ari kumufasha mu myitozo ngororamubiri ari gukora.

Hariho imiti y'ibinini ndetse hakabaho n'igisa n'umudahari, bigaragaza ko ari imyitozo umuntu agomba gukora ndetse n'ibinini umuntu agomba gufata kugira ngo ubuzima bwe bugume bumeze neza.

Ni umuganga w'igitsina gore. Yambaye agapfukamunwa, yambaye akuma kamufasha kumva uko umutima w'umuntu utera, ndetse yambaye n'umwenda w'akazi uri mu ibara ry'ubururu, ufite imbere mudasobwa ndetse n'impapuro ari kwandika.

Ni umuntu wavunitse, ndetse bari kumushyiraho udupapuro, tumufasha mu mvune yagize mu ivi, uri kubimushyiraho ni umuganga, yambaye umwenda w'akazi, uwo twita itaburiya.

Hariho imbuto nyinshi zigiye zitandukanye ndetse hariho icupa ririmo imiti, hariho imidari ndetse n'imbuto, harimo: inanasi, amaronji, imyembe, pome, imineke n'ibindi.

N'umugore uri kunywa amazi yambaye agasengeri cyangwa se akantu ko hejuru k'umweru bajyana muri siporo, ndetse afunze n'misatsi ari kwiruka ndetse arahagaze n anywa amazi.

Ni umukinnyi wambaye ikirinda umutwe we ndetse ashyize amavi hasi, ikigaragara cyo ahobora kuba yababaye, iruhande rwe hari abagabo babiri basa nk'aho ari abatoza, bafite ibitambaro by'isuku mu ntoki bari kumuganiriza ngo bamubaze uko amerewe.

Ni umuganga w'umugore, yambaye umwenda w'akazi mu ibara ry'ubururu ndetse yambaye n'agafukamunwa gakwiriye kugenga abaganga bose, yambaye n'ibimurinda kwandura mu ntoki ndetse yicaye imbere ya mudasobwa, afite n'ibyo ari kwandika.

Ni abagabo babiri, umwe ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara n'inkweto zifunze, ateruye ibiro byinshi kuko afite uri kumufasha ku ruhande.

Ni umukobwa cyangwa se ni igitsina gore, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi, amazi ni meza mu buzima bw'umuntu no ku mibereho ya buri munsi, yambaye utwo ari kumviramo indirimbo cyangwa ibindi bintu bitandukanye kugira ngo abone uko akora imyitozo neza.

Mu ducupa twiza turimo imiti y'amenyo ndetse n'imiti yindi itandukanye, ni imiti ikozwe mu kimera kitwa igikakarubamba, ni kiza ku mubiri w'umuntu, haba ku mubiri na mo imbere ku ruhu, mo imbere mu mubiri mo indani, ni ikimera kiza cy'ingirakamaro kuribanda nyamwinshi

Ni imiti n'amavuta yo kwisiga ahantu hatandukanye, haba mu mutwe, haba ku ntoki, haba ndetse no ku mubiri bisanzwe. Ni amavuta akozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba. Ni ikimera cyiza haba ku mubiri n'ahandi hose. Ni ingirakamaro ku bato n'abakuru.

Ni ahantu hari ibiti byinshi, ibiti binini by'inganzamarumbo, hari ibiti by'indabo, hakaba n'ibiti by'amapera, iby'avoka n'ibindi bigiye bitandukanye, ibiti ni ingirakamaro muri rusange kuri sosiyete nyamwinshi.

Ni igikakarubamba, ni igiti cyiza ni ikimera gifasha abantu bagiye batandukanya, haba abakuru ndetse n'abato, kifashishwa mu imisatsi, uruhu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Ni umuti ugaragaza indwara uvura, umuti mwiza w'ingirakamaro, haba ku bato n'abakuru, cyane ko uvura inzoka zo mu nda, ziterwa n'umwanda ndetse n'ibiryo bidasa neza.

Ni tungurusumu ni ikiribwa cyiza ku bato n'abakuru, ni ikiribwa gifasha mu bintu bigiye bitandukanye, gitekwa mu biribwa ndetse kigatekwa n'ahandi hagiye hatandukanye, ni ingirakamaro ku bato ndetse no ku bakuru.

Ni ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu miti no kwa muganga, harimo ibyitwaka ibikakarubamba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, byose byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icupa rinini ryiza, icupa rifunze mu buryo bwiza bugezweho. Ririmo ubuki, ubuki ni ikiribwa cyangwa se ikinyobwa cyiza ku mubiri w'umuntu haba ku bato n'abakuru.

Ni icyayi kirimo indimu ndetse na tangawizi, icyayi ic cy'ingirakamaro mu mubiri w'umuntu haba ku bantu barwaye indwara z'ibicurane ndetse n'abandi bafite indwara zigiye zitandukanye, icyayi cyiza cy'ingirakamaro ku bato n'abakuru.

Ni umuntu uri gusekura ibintu bigiye bitandukanye, ndetse iruhande rwe hataretse ibihingwa biri butandukane, bigiye bitandukanye ari gushyira mu gasekuru agasekura, harimo ibimeze nka tangawizi n'ibindi bitandukanye, biteretse ku musambi.

Ni umugabo usheshe akanguhe, bigaragara ko ashobora kuba ari nko gusoroma ibintu runaka mu ishyamba rinini, yambaye umupira w'umweru, urimo n'amabara y'umukara.

Ni ibintu bigiye bitandukanye, hariho amavuta akozwe mu gikakarubamba, ni meza haba ku mubiri w'umuntu, haba ku musatsi ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye, hari n'ibindi turi kubona ku ruhande harimo ibikozwe mu bisukano harimo n'ibikozwe mu mapamba.